Umukobwa ukiri mutoya, wambaye agapira k'umutuku n'ingofero y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, ari kureba mu kanwa k'umwana ngo arebe ikibazo hafite, uyu mwana afashwe n'abandi bantu kugira ngo atinyeganyeza.

Umugore yajyanye umwana we kwa muganga. Aramufashe kugira ngo adatera amahane, hanyuma umuganga wambaye imyenda y'akazi, yicaye ku ntebe ari kwitegereza umwana, kugira ngo arebe ukuntu ameze. Afashe intoki ze azishyira ku mutsi wo mu ijosi, kugira ngo hagire ibyo yumva mu mubiri w'umwana.

Imbaga nyamwinshi yicaye mu nyubako nziza cyane, bayirimo iyo nyubako bicaye mu matsinda, buri bantu bafite amazi imbere yabo, ndetse n'impapuro zo gufatiraho inyigisho bari guhabwa, bicaye ku ntebe z'ubururu, bose bari kureba ku kibaho imbere.

Abantu batanu bahujwe n'igikorwa kimwe cyo kwiga cyangwa se kwiga no kwigishwa. Ni abanyeshuri bari kwimenyereza se bari kwiga umwuga w'ubuganga, imbere yabo hari ibikoresho bikoreshwa kwa muganga nk'ipamba n'imiti. Bose bambaye imyenda y'akazi. Bicaye hamwe bari kureba imbere hari ibyo bakurikiye.

Abantu bateraniye mu nzu mberabyombi cyangwa se mu cyumba kigari, baricaye bafite udupapuro mu ntoki, hari ibyo bategereje kumva, ni abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore n'abagabo.

Abagore batandukanye benshi muri bo bafite abana, umugore uri imbere ugaragara cyane yambaye ibitenge, yambaye n'agakoma ku kaboko ndetse ateze igitenge mu mutwe, afite umwana mu ntoki ndetse afite n'ibipapuro bigaragara ko yaje gusaba serivise zijyanye n'abana.

Abantu batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo n'abakobwa, bamaze guhugurwa bahawe ibinini byabafasha. Bose bambaye udupfukamunwa bigaragara ko badashaka kwanduzanya hagati yabo.

Umugore w'umuzungu yambaye isaha ku kaboko ndetse n'agakoma mu kandi kaboko n'impeta, afite indangururamajwi mu ntoki, arimo aratanga inyigisho, uburyo yifashe ku mutima biragaragara ko ari gukoresha ibimenyetso kugira ngo message ari gutanga zumvikane.

Inama irimo gukorwa, abantu bayirimo bifashe bitandukanye, hari uwifashe ku kananwa wambaye impeta mu ntoki, hari ufashe ku meza usa nkaho ari gusobanura, imbere y'aba bantu bose bari mu nama hari amazi, benshi muri bo bafite telefoni imbere yabo kandi bose bafite amakayi biteguye kwandika, bicaye mu ntebe nziza cyane ndetse inzu barimo irimo amarido meza.

Abantu barimo abagore n'abagabo, abambaye imyenda y'icyatsi, ubururu, umutuku, umuhondo, umukara, ndetse n'umweru n'andi mabara, bicaye hamwe ku ntebe z'umukara zirimo utudomo, bakoza uruziga bari kuganira, harimo umusilamu w'umugore witandiye igitambaro cy'umweru ndetse wambaye umwenda w'umutuku.

Ikigo gishinzwe kubungabunga no kureberera uburenganzira bw'abana, iyo gifatanyije n'ibindi bigo bishyiraho amategeko ndetse n'uburenganzira buri mwana yemerewe mu gihugu icyo ari cyo cyose yaba abarizwamo.

Abantu baricaye barimo abazungu ndetse n'abirabura, abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo harambitse uducupa tw'amazi buri wese ake, bari guhabwa inyigisho buri wese arakurikiye ari kureba uri kubahugura.

Umukobwa arimo aravoma mu ijerekani iteretse mu mabasi. Inyuma ye hari imyenda yanitse bigaragara ko amaze kuyifura. Arasutamye, yambaye ijipo y'umukara ndetse n'agapira kagufi k'umutuku. Umukobwa arishimye ari impande y'inzu ishaje, isakaje amabati ashaje ndetse umugezi uri munsi y'igiti.

Habaye inama abari gukoresha inama ni abantu batatu, abagabo babiri n'umugore umwe, bicaye hejuru imbere barimo bararebana n'abo bari gusobanurira, abo bari gusobanura bafite imisatsi itandukanye, hari abafite iy'umuhondo, hari abafite iy'imikara, harimo abadafite ibisuko, harimo n'abafite uruhara, bicaye ku ntebe z'umukara.

Umukobwa mukuru arimo arafashe utwana duto kuvoma, ni utwana two mu cyaro ahantu haciriritse twaje gushaka amazi, uyu mukobwa yambaye neza arakeye arimo arabafasha kuzamura amazi, iki cyuma ugenda ugikubita umanuka uzamuka umuka uzamuka, kugira ngo amazi yipompe ubundi aze mu mugezi ave hasi mu butaka.

Umuntu arimo gukaraba ibiganza akoresheje amazi arikuva mu itiyo. Yambaye ishati y'ubururu yateze ibiganza aho amazi ari kumanukira. Aho hantu ni ahantu hasa nabi, hadafite isuku ariko amazi yaho ni meza.

Umugore w'mwirabura ufite akana k'irabura, agafashe mu ntoki, yagateze igitenge kugira ngo kataza kugwa, akizirikira ku rutugu rwo hirya. Yambaye udukweto dufunguye, igitenge yagikenyeye, ndetse yambaye n'agapira k'umutuku. Ari kuvoma amazi ku mugezi avomera mu ndobo y'umukara. Ni ahantu ubona ko ari mu cyaro, hirya inyuma ye hari igiti cya avoka kinini.

Umuryango w'abantu bahujwe ngikorwa kimwe uri gutera ibiti, ni abantu bambaye imipira y'umutuku barishimye kandi barimo abagore n'abagabo.

Abantu benshi bari ahantu hamwe barishimye bari gukoma amashyi, bashungereye akana. Akana kari ahantu mu gatanda kasa umuhondo n'ubururu. Abantu baragashungereye ubona ko bishimye batangaye.

Abagore bicaye bategereje na bo kugerwaho kugira ngo bahabwe serivisi zo kwa muganga, umugore uri gupimwa ari gufatirwa ibipimo by'umuvuduko we w'amaraso, umuganga uri kumupima ni umugore wambaye imyenda y'akazi, bicaye hanze ntabwo bari mu nzu mo imbere, aho bicaye inyuma yabo hari akajaride keza cyane karimo indabo zitandukanye.

Ibikorwa byinshi bitandukanye, bigenda biba harimo ibyo gufasha abantu baciye bugufi. Abaturage bo mu nzego zo hejuru cyangwa se bakomeye, bagenda begera abana bafite ikibazo cy'ubukene, bafite ikibazo cy'imirire mibi, bakagira ibyo babaha kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza. Mu byo babaha harimo amata.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara arimo arasuhuzanya n'umugabo muremure umusumba, wambaye ikoti ry'ibara ry'ivu, iruhande rwabo hariho umugabo ushaka gusuhuzwa n'uyu mugabo mugufi. Inyuma yabo kandi hateguye indabo z'ibiti, iruhande rwabo hari umuzungu n'umwirabura bari kuganira. Aba bantu bose baje mu ihuriro, hari n'abandi bantu impande zabo n'inyuma yabo hari intebe.

Umuganga yambaye ga z'umweru, ari gutera urushinge umurwayi arikurumutera ku kaboko k'ibumoso, yakoze ku buryo umutsi awukanda akawubona kubera ko niho haterwa urushinge, ari gutera yigengeseye kugira ngo umurwayi we ataza kugira ibindi bibazo.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo n'agakabutura k'ubururu afite udukombe tubiri mu ntoki. Inyuma ye hari utundi twana tumushungereye. Avuye kuvoma mazi asa nabi mu iriba arikuyerekana hari amasomo arigutanga.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano barikunywa amazi y'ikigega. Buri wese afite igikombe cye arikunyweramo. Hari ibigega bibiri bakaba barikuvoma kuri kimwe muri ibyo byombi. Inyuma yabo hari akazu gashaje k'amabati kandi kari inyuma y'ibyo bigega.

Umugore ufite igitambaro mu mutwe yambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru n'umukara, yajyanye umwana we kwa muganga kugira ngo bamukingire, arimo gukingirwa n'umugore wambaye amaherena ndetse n'itaburiya y'umweru.

Umuforomokazi cyangwa se umuganga ufite ikayi mu ntoki n'ikaramu, akoze ku matama y'umwana mutoya, wambaye akagofero k'ubururu n'agapira gatoya k'amaboko magufi, ari kumwe na nyirakuru wa ishapule mu ijosi n'agatambaro k'umukara mu mutwe, nyirakuru ari guseka iruhande rwabo hari umuntu w'umumama wifashe ku matama.

Umwana arimo arikoreza ijerekani, bisa nkaho avuye kuvoma. Uri kuyimukorera ni umugabo yambaye agapfukamunwa k'umweru, ingofero y'ubururu, ndetse n'agapira k'ubururu. Hari uri kubafotora, ndetse iruhande rwabo harira abari kubirebera.

Abantu batandukanye bavuye mu nzu mberabyombi cyangwa se icyumba cy'inama, bavuye kuganira, muri abo bantu harimo abaganga babiri b'abagore barangwa n'uko bambaye impuzankano, muri abo bantu kandi harimo abagore n'abagabo.

Kwa muganga umugore yicaye ku gitanda ari gutanga ibipimo. Umuganga uri kubipima ni umugore wambaye itaburiya y'umweru. Iruhande rwabo hahagaze umuntu uri kubareberera bisa nkaho ari umufasha wa muganga. Afite ikayi yo kwandikamo ibipimo by'umurwayi isa umuhondo.

Abana batoya bo mu kigero cy'imyaka iri munsi ya cumi n'itanu, bari ahantu hamwe, bashungereye ahantu basa nk'aho bari kurwanira amazi, muri bo hari uwambaye agapira k'umutuku, hari abambaye imyenda ya kacyi, ndetsetse bose bariyogoshesheje nta misatsi myinshi bafite ku mutwe.

Amabara abiri, iry'umukara ndetse n'iry'umuhondo. Mu ibara ry'umuhondo, harimo akantu kagaragaza amerekezo gashushanyijwe mu buryo bw'inyenyeri ariko gafite ibyerekezo bine.

Abanyeshuri bagiye mu rugendoshuri cyangwa se bagiye ahantu kwihugura ku bintu bijyanye n'ibyo biga n'amasomo bari bamaze iminsi bari gufata, harimo abakobwa ndetse n'abasore, bose bambaye imyenda y'akazi, abatambaye amataburiya bambaye amabaji.

UNICEF ni ikigo gishinzwe kwita ndetse no kurengera ubuzima bw'abana, ku cyapa cya UNICEF hariho umugore uteruye mwana yamushyize hejuru ye ari kumwitegereza, aba bantu rero bamaze gufata amahugurwa ku bijyanye no kurengera abana.

Umwana w'umukobwa arasutamye ari guseka ariko ari kuvomesha ibiganza bye amazi, iruhande rwe hari amajerekani abiri, imwe y'ubururu n'indi y'umuhondo, iy'ubururu ifite agafuniko k'umutuku, inyuma ye hari igiti cyumye kivamo inkwi.

Abantu baricaye ku ntebe z'umukara zirimo utudomodomo tw'umweru, barakurikiye inyigisho bari guhabwa. Imbere yabo ku meza hateretse amazi yo kunywa, buri muntu afite izina imbere ye kugira ngo byorohere uri kubigisha guhita amenya uwo ari kuvugana nawe.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, nyuma yo kwiga bari gufata amafunguro, bambaye impuzankano, buri wese afite ikiyiko cyangwa se ikanya n'ibiryo ku isahani imbere ye, barishimye kandi bameze neza, bamyaye impuzankano bari kurira mu ishuri, ni abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa.

Mu cyumba cy'ibagiro ku bitaro, hajyamo abavuzi batandukanye barenze umwe, kugira ngo bahane ibitekerezo, hatagira ikibazo kiza kuvuka, mu gihe bari kwita ku murwayi wabo. Baba bose birinze, bambaye imyenda y'ubwirinzi, kugira ngo hagati yabo n'umurwayi, ntihagire umwe wanduza undi.

Umwana arasutamye, ateze ibiganza ahantu hari kuva amazi, ni igihombo cyangwa se itiyo iri guturukamo amazi, iruhande rwe hari ibijerekani harimo icy'ubururu, icy'umuhondo ndetse hari n'ibiti bitandukanye byumye byo gukuramo inkwi.

Abantu bari kwitegereza umugore wambaye umupira w'icyatsi n'ijipo y'umweru ndetse ufite igitambaro cy'umuhondo mu mutwe ari kuvoma ku mugezi gakondo aho ari gufasha umwana w'umuhungu kubona amazi. Abantu bari kumwitegereza harimo abagore ndetse n'abagabo bafite amasuka bahagaze impande y'umugezi bari kwitegereza ibyarimo bigaragara ko ari ibintu bidasanzwe ari gukora.

Itsinda ry'abantu bahuriye ku murimo umwe harimo abagore n'abagabo, bose bambaye umwenda w'akazi ari wo mataburiya uretse umugore umwe w'umuzungu wambaye igisarubeti cy'umutuku, bose bakoze ikimenyetso kivuga ngo ni nibyo, bafashe ifoto bari mu nzu.

Ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, hari ku wa Mbere. Kuri makumyabiri n'eshatu z'ukwa Kane muri uyu mwaka, hari ku wa Kabiri. Kuri aya matariki yombi habaye inama cyangwa se icyo twakwita ihuriro, rivuga ku buzima muri Afurika.

Kwa muganga aho abarwayi bashakira serivisi z'ubuzima, hari abantu benshi batandukanye baje kwivuza, hariho umubyeyi ufite umwana imbere ye bose bambaye amakanzu y'ibitenge, ni umubyeyi yambaye n'agakoti k'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, uri kumwakira ni umugore cyangwa se umukobwa afite ikaramu mu ntoki, ari kuzuza amakuru y'umurwayi mu mashini kugira ngo babone uko bamukurikirana.

Hari ibikorwaremezo byinshi bigenda byegerezwa abaturage. Twavuga nk'uburezi, ubuvuzi, umutekano, isuku, n'ibindi bikorwa bituma abaturage b'igihugu bagira ubuzima bwiza. Umusaza arimo kwisuzumisha kugira ngo amenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Umusazi yicaye mu isoko, yambaye igikoti gishaje, inkweto zishaje z'umukara ndetse iruhande rwe hateretse amacupa y'amazi abiri manini. Afite ibyatsi mu ntoki, asa n'ugiye kubirya. Impande ye hari abantu benshi, bigaragara ko ari mu isoko.

Umujyanama w'ubuzima ni umuntu utorwa muri buri mudugudu, akajya afasha abaturage b'uwo mudugudu kubahereza inama zagirira akamaro ubuzima bwabo, aragenda mu rugo, bakamuha agatebe, akicara, akabaganiriza, akabaha inama, byaba ngombwa ikibazo cyabo akakigeza ku nzego zimukuriye.

Umusore arihebye, arababaye, aricaye ku ntebe ariko yubitse umutwe mu biganza. Inkokora ze azishinze ku matako ye. Iburyo bwe hari umukobwa wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso arikumuhoza amwihanganisha.

Buri gihe u Rwanda rukora raporo y'uburyo abaturage n'ubuzima bwabo bwagenze. Igishushanyo rero kiragaragaza uburyo umubare w'abiyahura wamanutse, kuva mu bihumbi bibiri na kabiri, kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani. Abiyahuraga bagiye bagabanuka.

Abana benshi bicaye mu nzu mberabyombi bari gufana. Barishimye bigaragara pe! Bamwe muri bo hari uwambaye agapira k'umutuku, hari uwambaye agapira kenda gusa umuhondo, hari n'umukobwa wifashe mu mutwe wazamuye amaboko ayashyira inyuma y'umutwe wambaye agakanzu k'umuhondo n'agakoti k'umweru. Uri imbere y'uwo mukobwa yambaye umusaraba mu ijosi.

Abakobwa babiri bari kuganira. Imbere yabo harambitse ikintu kimeze nk'ikidobo kirimo umucanga gihagazemo udushushanyo tw'abantu. Umukobwa umwe wambaye ikanzu y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, afite igishushanyo cy'inyamaswa mu ntoki ari gusobanurira mugenzi we. Mugenzi we uri gusobanurirwa yambaye ikanzu y'umukara ari kwitegereza.

Soko aho ibicuruzwa bigurwa ndetse bikanagurishwa harimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo abari gucuruza imbuto, harimo abazanye inkwi, harimo abazanye ibijerekani abantu benshi batandukanye, imbere hariho akana kari kurira amarira yashotse atemba ku matama yako, kikoreye amaboko.

Umugabo w'umukene wihebye uri mu kazu gasa nabi cyane, aho yicaye ku mukeka ushaje, iruhande rwe hari igitenge gishaje, yifashe mu mpanga bigaragara ko ibibazo bya byamurenze, yambaye ikintu kizirikiranyije amaguru ye wagira ngo hari afite ikindi kibazo cyihariye runaka.

Abana bo mu miryango iciriritse batarakaraba, bari ahantu mu gisambu, ahantu hari ibyatsi byumye n'ibibisi, hari ikizu cy'ibiti gisakaye kirinze ibintu, harimo abambaye ibirenge, harimo bambaye udukweto dushaje, utwenda twacitse, utwenda dusa nabi, ni utwana twishi tw'indahekana turi ahantu hamwe.

Umwana wagize ikibazo, arandaswe n'umugabo ufite inkoni mu ntoki, ndetse n'umugore wambaye ibinigi mu ijosi, umwana ari kureba akanuye areba ibiri imbere, bambaye ibintu bishaje, kandi ahantu bari hari n'abandi bantu benshi.

Abantu batandukanye harimo abanyarwanda, harimo abirabura ndetse n'abazungu, bari mu gitaramo. Barizihiwe bari gutaramirwa, mbese urabona ko barishimye. Bicaye ku ntebe bose amaso bayerekeza ahantu hamwe, aho abantu bari kubasusurutsa baherereye. Bari gukoma amashyi bishimye.

Umugore yicaye mu ntebe y'ubururu, ashyize inkokora yo ku kaboko k'iburyo ku meza ari imbere ye atwikirije igitambaro cy'umuhondo, kuri ayo meza hariho icupa rinini ry'amazi yo kunywa, arimo kuganira n'umugabo uri kumubaza amakuru, uwo mugabo yambaye umupira w'ubururu.

Umubyeyi w'umu mama ari kumwe n'umwana we, bari guseka barishimwe. Akana nta menyo gafite karacyari gato, gafite amaso manini, nta musatsi karamera. Uyu mubyeyi afite umusatsi, utarimo ibisuko; yambaye umupira w'umweru. Barishimye kandi urabona ko bafite ubwuzu, mu maso yabo biragaragara.

Akana k'agakobwa keza k'inzobe, kararyamye kari gusuzumwa amenyo, kasamye, umuganga wambaye ga z'umweru yagashyize agatoroshi mu kanwa ndetse afatira ikiyiko mu kanwa k'umwana kugira ngo iryinyo bagiye kumukura, ridahita rimanuka mu nda ahubwo rigwe kuri icyo kiyiko.

Umusore urwaye amenyo, yaje kwivuza. Aryamye ku gatanda arasamye, bamushyize ibintu mu kanwa, bituma babona uko bamuvura neza. Akikijwe n'umuganga wambaye impuzankano, uri kumureba mu kanwa kugira ngo arebe ikibazo afite. Iruhande rwe, hari umubyeyi wazanye n'uyu murwayi.

Umusore afite akadodo mu ntoki k'umweru, yakazingiye ku ntoki ze, asa n'ugiye kwikura iryinyo, ni umuhungu mwiza, useka neza, ufite amenyo y'umweru, afite ubwanwa ndetse afite akanyogosho gasanzwe.

Abana batoya, bicaye mu ishuri ku ntebe z'imbaho, bazamuye amaboko. Mu biganza byabo, bafite uburoso bw'amenyo, ndetse n'umuti w'amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo kirimo intebe yo kwicaraho, amamashini, insinga zicombitse ku mashini, ibikoresho bimwe na bimwe bikoreshwa mu kuvura, agatanda kajyana serumu gafite amapine, imashini zifite amapine ziri mu cyumba kimwe cyo kwa muganga gisa umweru.

Abana bato b'abanyeshuri bari kwitegura kujya ku ishuri, barimo baroza amenyo mbere yuko bajya kwiga, buri umwe afite buroso arimo koza amenyo ye, buri umwe afite agakombe karimo amazi mu ntoki yo gukoresha mu koza amenyo, ni abana bakorera hamwe bambaye impuzankano biga ku ishuri rimwe kandi bose barishimiranye babanye neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igikoresho cyo kwa muganga, kirimo intebe zo kwicaraho, amamashini atandukanye, utubati ndetse n'isaha yo kureberaho igihe. Ni inzu ifite amarangi y'umweru imbere ndetse ifite urugi rw'ibiti rusa umutuku.

Umugabo ukuze bigaragara rwose ko ari mu zabukuru, urimo aripima akoresheje agashinge ari mu bwogero, ahantu hari uburoso bw'amenyo, isabune yo gukara intoki ndetse n'utundi dukoresho two mu bwogero. Iyi nzu arimo isa umweru n'amakaro ni umweru.

Umurwayi waje kwivuza amenyo ari kumwe na muganga. Yicaye ku gatebe, ari kurerebaba hejuru; muganga na we ari kumurebera ku menyo. Arimo arerekana iryinyo rifite ikibazo, akoresheje agatoki ka kabiri, ko ku kaboko k'ibumoso. Umuganga yambaye ga z'ubururu, ndetse n'imyenda y'umweru y'akazi, afite akantu mu ntoki yiteguye gusuzuma amenyo y'uyu murwayi.

Umugabo mwiza cyane, ufite ubwanwa, ufite isura nziza, yaje kwisuzumisha amenyo cyangwa se kwivuza. Umuganga hari ibyo ashaka kumushyira mu menyo. Uyu muganga, yambaye ga z'ubururu. Arimo aritegereza uyu mugabo ndetse bararebana bafite ubwuzu bose barishimye.

Umugore araryamye arimo aritabwaho n'abavuzi. Umuvura yambaye impuzankano yo kwa muganga, afite indebakure ku maso ye ndetse afite agatoroshi. Ari kumurika umugore uryamye mu kanwa kugira ngo abashe kubona neza ikibazo afite, iruhande rwe hari umufasha kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Umufasha yambaye impuzankano y'ubururu.

Umukobwa mwiza w'imibiri yombi ufite amenyo y'umweru, ishinya y'umukara, useka neza rwose amasaro agaseseka, yakoze ikimenyetso agikoresheje intoki ziwe, ikimenyetso agikorera ku isura ye.

Umuganga arimo aravura umwana afite agatoroshi, ari kumureba mu kanwa, yambaye imyenda, agapfukamunwa, ndetse na ga kugira ngo atanduza umwana cyangwa se umwana akamwanduza, mu cyumba barimo harimo ibikoresho bitandukanye birimo imiti, imashini, amakayi, n'agatanda ko kurambikaho ibintu, umwana aryamye ku gitanda arasamye.

Umugabo w'igikara arigutambuka abifashijwemo n'umugore w'inzobe. Uyumugabo yambaye ishati y'ubururu. Ari kwitoza gutambuka, afashe ku bikoresho biri hirya ye.

Kwa muganga, umuganga w'umugore arimo arafasha umusaza kumugorora ingingo. Umusaza afite imvi ku bwanwa ndetse no mu musatsi wo mu mutwe. Umugore afite ibisuko ndetse bigaragara ko aba bantu ari abazungu.

Umusaza cyangwa se umugabo ufite imvi, ari kumwe n'umuganga we ari kumufasha gukoresha akaboko kari karavunitse. Umugabo yambaye agapira k'ubururu, afite akantu k'ubururu mu ntoki ariko kamufasha kurambura akaboko, ari guseka ndetse uwo mugabo afite akantu kameze nk'inyinya.

Umuryango w'umugore n'umugabo, bicaye ku meza, barimo gusangira. Mu byo bari kurya, harimo imboga rwatsi. Umugore yambaye agakoti k'ubururu k'ikoboyi, aratamiye nubwo atarabigeza ku munwa neza. Umugabo na we afite icyuma ndetse n'ikanya, arimo arakata ibyo gutamira. Umugabo afite ubwanwa bw'umweru cyangwa se icyo twakwita imvi, yambaye ishati y'umutuku.

Umusaza ufite imvi z'umweru, yambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ari mu nzu ari gukurura ikintu kimeze nk'igitambaro cy'umuhondo, abifashishijwemo n'umuganga we, uwo muganga ni umufasha kongera gukoresha ibice bye by'umubiri byari byaravunitse.

Umusaza wambaye umupira w'umweru, yicaye mu ntebe, afite n'inkoni mu ntoki, iruhande rwe rw'iburyo hari umukobwa, cyangwa se umugore w'umuganga bigaragazwa n'imyambaro yambaye. Bari guseka bari kurebana, umugore amufashe ku rutugu ndetse no ku kaboko bahuje urugwiro.

Abagabo babiri bafite uruhara barishimye bari mu myitozo ngororamubiri. Bari kugenda birukanka gake gake mu mu handa ahantu hari ibiti byiza ndetse n'ubusitani, buri umwe afite agacupa k'amazi y'Inyange mu ntoki, bari guseka kandi bahuje urugwiro, bambaye n'amashati y'umweru.

Mu myitozo ngororamubiri ikorwa, harimo kugenda n'amaguru, abafite imodoka bazirambika ku ruhande, hanyuma bagasanga abandi bagateranira hamwe, ubundi bakagira umuntu ubafasha kurambura ingingo zabo.

Umusaza uri mu zabukuru ukuze, afite umuntu umwitaho, bari ku meza bari gufata amafunguro yiganjemo imbuto nka pome, ndetse na ji, hariho udusahane dutandukanye ku meza yabo ndetse n'ibirahuri byo kunyweramo, inyuma yabo hari ishyushya ibiryo, ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni.

Umusaza ushaje ufite imvi, ari guhabwa amategeko y'uburyo agomba gufata imiti. Aricaye ari kwitegereza. Uri kumuha ayo mabwiriza, ni umukobwa cyangwa se umugore, wambaye agapira k'umuhondo. Uyu mugore afite imiti mu ntoki ndetse n'ikaramu, n'ikayi ku meza imbere yabo.

Umuganga wambaye impuzankano itaburiya y'umweru arigufasha umusaza gutambuka. Umusaza afite uruhara yambaye isume imeze nk'ikanzu ndetse n'inkweto z'umukara. Arikurebana n'umuganga w'umuzungu urikumwitaho bahuje urugwiro bose barishimye.

Umusaza mukuru ufite imvi n'uruhara, wambaye ishati y'ubururu, yicaye mu nzu ku ntebe, imbere ye hari ameza, yarambitse akaboko ku meza kandi ako kaboko gafashe telefoni. Arimo arerekera umugore umwicaye iruhande, ibyo yakorera kuri telefoni. Inzu bicayemo irimo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu nk'utubati n'ibyo kurya.

Umusaza ukuze, yicaranye n'umwana mutoya w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani. Uyu mukobwa ni umuganga, bari kurebana mu maso basetse bahuje urugwiro. Umusaza yambaye ishati y'umutuku, umukobwa ari we muganga, ari kumufata ibipimo by'umubiri we.

Umusaza wicaye akaboko ke karambitse mu gitabo cyangwa se mu ikaye ari gusoma, akandi kaboko k'ibumoso inkokora yako ishinze ku meza, noneho yifashe mu mpanga, asa n'utangiye kuribwa n'umutwe, iruhande rwe ku meza kandi hari ikirahuri cy'amazi cyangwa se ikindi kintu ari kunywa.

Umukobwa arimo arita ku mukecuru ndetse n'umusore bari kumwe mu nzu, afite imboga, ari kuzishyira ku isahani umusore afite mu ntoki iriho umugati, uyu musore yambaye umupira w'umutuku, noneho umukecuru ari hagati y'uyu musore n'umukobwa, bose bari mu gikoni mu nzu imwe.

Mu rwego rwo kwirinda kwandura cyangwa se kwanduza, umuganga agomba kwambara impuzankano yuzuye ndetse agashyiraho agapfukamunwa. Umurwayi na we kandi aba yambaye ariko akarenzaho agapfukamunwa. Umuganga w'umugore arimo arafasha umusaza wicaye mu ntebe, amuvurira mu busitani.

Umusaza ufite imvi ari gufashwa n'umuhungu ndetse n'umukobwa guhaguruka. Ari guhaguruka ku buriri bushashe neza, ashaka guhagarara. Umusore uri kumufasha yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu naho umukobwa we, yambaye umuhondo n'ubururu.

Umusore mwiza w'inzobe wambaye ikoti, ipantaro n'inkweto by'umukara, ndetse n'ishati y'ubururu, arahagaze, yifashe mu mayunguyungu, ahagararanye n'umukobwa, uyu mukobwa yambaye inkweto ndende, ndetse n'agakanzu kagufi, bavuye guhabwa inyigisho, bari gushaka icyo umuntu yakwita urwibutso.

Inkuru imwe mu zanditswe n'ikinyamakuru, iragaragaza umubyeyi cyangwase umugore ukikiye umwana, umwanayogoshwe umusatsi wose ndetse umugore umuteruye ateze igitambaro mu mutwe, inyumaye hari abanyeshuri, bambaye impuzankano bari kubitegereza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe diyabete ku isi yose uregereje, hari icyapa rero kimanitse gikangurira abantu gukwirakwiza ubumenyi kuri diyabete no gufasha abarwaye iyo ndwara ya diyabete, ku cyapa kihamanitswe harimo umugore wambaye akajipo n'agapira k'umutuku bigaragara ko arwaye diyabete, hari kandi inyubako izwi cyane mu Rwanda yitwa convention center.

Abantu bashinzwe gutanga serivisi z'ubuzima, gutanga inkingo barimo barakingira. Bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo hatagira uwanduza undi. Umurwayi uri gukingirwa ni umusore w'igikara arimo arakingirwa n'undi musore.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari kumva inyigisho cyangwa se bari guhabwa amahugurwa bateraniye mu nzu mberabyombi, barimo abagore, abagabo, abazungu ndetse n'abirabura, bari kwigishwa cyangwa se gufashwa n'umugore w'umwirabura, umugabo w'umwirabura, ndetse n'umugore w'umuzungu. Ibyo bari kwigaho bifite insanganyamatsiko iri mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu benshi batandukanye barimo guhabwa inyigisho. Abari kwigishwa bicaye ku ntebe z'umutuku. Bafite ibisuko bitandukanye ndetse muri bo harimo umugabo wambaye amarinete cyangwa se amataratara ndetse n'ishati y'umutuku. Abari kubigisha bicaye imbere yabo barebana na bo, bicaye ku ntebe z'umweru. Muri bo harimo umuzungu wambaye ishati y'umutuku. Ufite mikoro ni umugore w'umwirabura.

Abaganga cyangwa abaforomo barimo gutanga urukingo. Umuganga w'umugore arimo arakingira umukecu ukuze. Umusore bafatanyije na we arimo arakingira undi muntu. Iruhande rwabo hari abantu bari kubafasha mu bijyanye n'umutekano, ndetse no mu byo bakenera. Aba bose bambaye imyenda y'akazi ibaranga ndetse bafite n'ibikoresho by'akazi.

Abagore batandukanye baje kureba umuganga ushinzwe kwita ku mibiri n'imihindagurikire y'umugore, baricaye barategereje bari kureba ikintu giturutse mu ruhande rwabo rw'iburyo.

Abagore basirimutse ndetse n'abagabo bameze neza bambaye amakoti, baricaye nyuma y'inama ku cyicaro gikuru . Bamaze kuganira bafata imyanzuro none baratashye, mbere yo gutaha rero bafashe ifoto y'urwibutso, bamwe baricaye ku ntebe abandi bahagaze inyuma yabo kugira bose bagaragare.

Icyuma gisuzuma ibice by'imbere, aho bakikunyuzamo hanyuma kikareba imbere mu mubiri wawe ikibazo hafite. Ukinyuramo usohoka, kandi iki cyuma bivugwa ko gifite ingaruka nyinshi, zigiye zitandukanye ku buzima bw'umuntu. Nta muntu wemerewe kukinyuramo atwite.

Umubyeyi uri kwa muganga ugiye kubyara aryamye ku gitanda agaramye ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore, iyo ugiye kubyara uragenda bakagushyira mu cyumba ukaba utegereje ko ibise biza.

Inyubako yo kwa muganga imeze neza, irimo ibikoresho byateye imbere bisirimutse. Aho abantu bavunitse cyangwa se bafite imvune batorezwa kugenda. Hari utugare, utuvaho ugatangira kwiga guhagarara, byose wakoresha wiga kugenda mu gihe wari waravunitse birahari.

Ikigo cy'ubushakashatsi, kiba gikora ibintu bitandukanye, kigerageza kwiga ku bitarasohoka, kugira ngo kizabisohore, abantu babimenye, bajye babigenderaho. Usanga rero harimo amamashini atandukanye abafasha, harimo amatara areba kure cyane, amurika cyane.

Mu Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bya Afurika, bigenda bitera imbere bimenya ikoranabuhanga umunsi ku munsi, usanga inyubako zabo zubatse bitangaje, ndetse bibereye ijisho, amashuri, ibitaro, ibigo bitandukanye, usanga bifite ikoranabuhanga ndetse byubakanye ubuhanga buhanitse.

Icyumba cy'ibagiro cyo kwa muganga. Nubwo byanditse mu Cyongereza, ariko ni cyo bisobanuye. Ni icyumba kiba mu bitaro, aho abaganga babagira umuntu, kugira ngo bamuvure indwara irimo imbere mu mubiri we. Baramufungura mu mubiri bakahakora, bakahavura, ubundi bakongera bakamudoda. Bamutera ikinya kugira ngo ataza kumva ububabare.

Imbere muri iyi nzu icururizwamo imiti y'i Kanombe harimo abantu baje gushaka ibibavura. Harimo ubwoko bw'imiti butandukanye buri muntu aza kugura bitewe n'icyo arwaye se icyo kwa muganga bamwanyikiye. Ku cyapa kuri kuri iyi nzu igurishirizwamo imiti hamanitse ubwishingizi umuntu ashobora gukoresha agura imiti.

Abaturage benshi bari ku kigo nderabuzima, baricaye bategereje kwakirwa, harimo abagore, harimo abakobwa ndetse n'abana, ni serivisi nyinshi cyane zagiye zegerezwa abaturage harimo n'izo ubuvuzi bwihuse.

Knzu y'ubushakashatsi irimo'ibikoresho bitandukanye byo ku rwego rwo hejuru. Ni udukoresho tugiye ducumekeranyije, amamashini atandukanye. Harimo isaha yo kureberaho igihe ndetse iyi nzu ni umwe mo imbere. Ifite amakaro mbese ni inzu iteye neza ndetse iteye imbere yubatse mu buryo bw'iterambere.

Mu bitaro cyangwa se kwa muganga hari abarwayi benshi baba bagomba gukurikiranwa barimo indani mu bitaro, haba hari ibyumba byabugenewe abo barwayi baryamamo, ibitanda bararaho biba bifite amapine ku buryo gutwara umurwayi umuvanye ahantu hamwe umujyana ahandi bitagorana cyane, bidasaba kumuterura cyangwa kumukura ku gitanda.

Inzu y'ubushakashatsi irimo ibikoresho bitandukanye, harimo udukombe two gukoreramo, harimo amazi, harimo iminzani, harimo utudobo two kujugunyamo imyanda, harimo utubati two kubikamo ibyo bikoresho n'ibindi.

U Rwanda cyangwa se Afurika ndetse n'isi yose muri rusange igenda itera imbere kandi ibikorwa byayo biramenyekana. Mu bikorwa biteye imbere cyane muri iyi minsi dusangamo inyubako nziza zitangaje, ku buryo kuyireba udahita umenya uko ikora. Bisaba kuyitorezaho kugira ngo umenye uko uyikoresha.

Inzu yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibyumba byo gushyiramo abarwayi, ifite aho abaganga cyangwa se abaforomo babarizwa, ni inzu nziza isa umweru mo imbere mu byumba by'abarwayi harimo intebe z'umweru, iyi nzu yose iri mu ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara yenda kuba umweru.

Kwa muganga aho abarwayi barwarira, hari ibitanda byinshi bisa ariko buri murwayi aryama ku gitanda cye, ibitanda bifite amapine ku buryo umuntu ashobora kukimura akakivana ahantu hamwe akakigendesha akakijyana ahandi, ibi bitaro kandi birimo amakaro.

Intebe iri mu cyumba bisa nkaho ikorerwaho ubugororangingo, aho kwicara hasa ubururu, noneho hasi cyangwa ku gice cy'inyuma hakaba hasa umweru. Iyi ntebe icmetseho insinga zitandukanye bisa nk'aho zifata imiti. Iyi ntebe kandi ifite amapine ishobora kugendeshwa kuva ahantu hamwe ijya ahandi, impande yayo hari agatebe gatoya k'umukara.

Inzu yo kubyariramo ni inzu ibi mu bitaro byo kwa muganga. Ababyeyi batwite niho bagana, kugira ngo bafashwe kubyara batahane abana bazima. Abaganga bakoramo, bita ku barwayi babo bakabakurikirana isaha ku isaha, kugira ngo umwana atagira ikibazo mu gihe cyo kuvuka.

Buri hantu cyangwa se buri nzu ifite igikorwa runaka, igira uwakira abagana aho hantu. Haba hari umuntu uhicaye akayobora abahagana aho bagomba kwerekeza.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya. Imbere y'iyi nyubako hariho idarapo ry'u Rwanda, hariho akayira k'abanyamaguru karimo utubuye, ni inzu yubatse neza mu mabara y'umweru, igeretse rimwe, isakaje amabati y'ubururu. Impande yaho hari ubusitani bumeze neza, burimo uturabo.

Ibitaro bya Nyanza, ni ibitaro biganwa n'abaturage bo muri ako gace k'i Nyanza, aho ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima yegera ibi bitaro hanyuma agakurikiranwa, agahabwa ubuvuzi ndetse n'ukeneye ubutabazi bw'ibanze akabuhabwa, ni ibitaro byubatse neza, hariho ibyapa biharangira abantu, ndetse mu imbere harimo ibiti bitanga akayaga keza ko guhumeka.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara y'itisi, yicaye munsi y'igiti kinini gifite amashami ageze kure ari gufata akayaga, iki giti gikikijwe n'udusima twubatse neza ku buryo ari ahantu ho kuruhukira.

Umuganga w'umugore arimo aratera urushinge umusore uryamye ku gatanda, uyu musore yafunze igipfunsi yambaye agakomo k'umukara aryamye ku gatanda yambaye ingofero y'umukara agapfukamunwa k'umukara agapira k'umweru gafite ukora, ipantaro ijya gusa n'ivu ndetse n'inkweto z'umukara.

Umuganga, umuntu wambaye imyenda y'ubururu arimo kujyenda munzira yo kwa muganga. Hari abandi benshi, iruhande rwe barimo baraganira, harimo umuzungu ufite imisatsi y'umuhondo wambaye agapfukamunwa. Iruhande rwabo hari ikidobo bajugunyamo imyanda. Hari abantu benshi kuri ibyo bitaro.

Umuganga w'umugore ufite ibisuko bigeze mu mugongo, wambaye itaburiya, wambaye amaherena, wambaye amataratara ndetse n'agapfukamunwa, afite amabara ku nzara, ari ku mashini, ari kurebaho ibijyanye n'abarwayi be, cyangwase akaba ari mu nzu y'ubushakashatsi hari ibyo ari gukora ku mashini y'iwe, ni icyumba cyiza cyane ubona ko giteye imbere, ego.

Ahantu hameze nk'isomero ry'abana, harimo udutebe tw'abana, utumeza duto tw'abana n'imashini, amabara meza atatse muri iyi nyubako ni amabara akurura abana, icyatsi, ubururu, orange ndetse harimo n'ibikinisho.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoreshwa mu buvuzi, nk'agakapu ngendanwa k'umuganga karimo ibikoresho by'ubutaka bw'ibanze, udutanda two kuryamishaho abarwayi, udutebe, ahantu ho gukarabira intoki, n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Icyumba kimwe mu byumba by'ubuvuzi biboneka kwa muganga, harimo amamashini ateye imbere cyane, asa ubururu, asa umukara ndetse n'asa umweru. Ni amamashini afatanyije n'insinga zitandukanye, harimo ubwoko bw'amatara atandukanye atanga, iyi nzu irimo amarangi y'umweru.

Inyubako nziza ziri mu kigo kinini, hari iyubakishije amabuye n'izindi ku ruhande rwo hepfo zisize amabara y'umweru, izi nzu zombi zitandukanyijwe n'akayira k'abanyamaguru muri ako kayira harimo umugenzi wambaye agakoti k'umukara n'agapira k'umutuku uri kwerekeza kuri izo nyubako, muri iyi ki kibuga harimo idarapo ry'u Rwanda, riri mu busitani bwiza cyane bw'icya.

Inyubako nziza cyane zisa neza zitangaje, zigizwe n'inzu zubakishijwe amabara y'umweru, umuhondo ndetse n'ubururu, iyi nyubako iri mu busitani bwiza burimo indabo ndetse n'ibiti bikeya, hejuru hari ikirere gisa neza cyane kirimo ibihu, kandi iki kirere gisa ubururu.

Ububiko bw'imiti itandukanye iri mu kabati, ni akabati kagiye kagerekeranye ku buryo ibintu bitondetse neza, urugi ni urugi rw'umukara biri mu nzu yijimye.

Inyubako nziza ifite igipangu muri iki gipangu harimo aho guparika imodoka, harimo imodoka nziza cyane ijya kuba umweru, muri iki gipangu kandi harimo abagabo bari mu matsinda bamwe bari imbere y'inzu abandi bari hafi n'igipangu.

Ikigo nderabuzima cya Gishweru. Ni ahantu havurirwa abantu barwaye cyangwa se bafite ibibazo by'ubuzima, imbere kuri ibyo bitaro hari intebe yicayeho umugabo, imbere ye hahagaze umugore wa umupira w'umutuku, iruhande rwabo hari umusore ndetse n'umugore wambaye ishati y'umweru, bose bategereje serivise z'iki kigo nderabuzima.

Kwa muganga aho bari guhangana n'icyorezo cyateye, hari ibitanda birimo abarwayi, abari kwita ku barwayi barikingiye cyane, barikwije ku buryo nta wakwanduza cyangwa ngo yanduzwe, bari kuganira bareba icyo bakora. Aho bari hari intebe, amarido y'ubururu, ndetse ni inzu, icyumba kirimo ibikoresho by'iterambere riteye imbere.

Kwa muganga haba hari inzu irimo ibitanda byo kwakiriramo abarwayi batahita bataha mu rugo, ibi bitanda biba bifite isuku, bisaswa neza mbere yuko bashyiraho abarwayi, ndetse ibyo basasaho bakabikurikirana kugira ngo bifurwe, ibyo bitanda biba bifite amapine ku buryo ushobora kukivana ahantu hamwe ukakijyana ahandi.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara ndetse n'umukandara, arimo arasohoka muri Kaminuza y'u Rwanda. Iyi Kaminuza yubatse neza ikikijwe n'ibiti ifite ubusitani bwiza ndetse ifite utubuye two kugenderaho ntabwo ugenda ukandagira mu butaka. Harimo amatara meza ndetse ni ahantu heza ho kuruhukira.

Umuforomokazi wambaye imyenda y'abaforomo, wambaye agakomo cyangwa se agashapure ku kaboko afite telefone mu mufuka uri ku kibuno. Ari kwinjira aho abarwayi baryama igihe barwaye. Harimo ibitanda byiza abarwayi baruhukira. Sinzi ibyo agiye kureba ariko ibitanda birimo ni bimwe bifite amapine ushobora gucunga uko ushaka.

Mu bikorwa bikorerwa mu bitaro kwa muganga, harimo kubaga abantu. Kubabaga si ukubica ahubwo ni ugufungura imibiri yabo, bakavura bimwe mu bice by'imbere, hanyuma bakongera bakabasubiranya.

Kwa muganga ahavurirwa abarwayi, hari ibitanda byinshi bitandukanye bitondekanye ku murongo, hari amasupanete, ni inzu nziza y'umweru mo imbere, hari kandi agatanda gatwara imiti ndetse n'agatanda gafata serumu.

Ishuka y'umweru irambuye ku gitanda cy'abarwayi kiba kwa muganga, aho gitegereje ko uwaje kwivuza cyangwa kwisuzumisha, aza akaryamaho hanyuma agasuzumwa n'umuganga, muri iki cyumba harimo imashini nyinshi zireba uko umubiri w'umuntu ukora.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi abantu benshi barakigana, bashakaho serivisi zitandukanye z'ubuzima: kwivuza, gusaba inama zitandukanye n'ibindi bikorwa bitangirwa kwa muganga, mu mbuga y'iki kigo nderabuzima hateye ibiti byiza cyane, iki kigo nderabuzima cyubatse mu mabara y'umweru, gisakaje amabati y'ubururu.

Inzu mberabyombi iberamo inama. Ni inzu icuramye kuburyo umuntu uri imbere aba arebwa n'abantu bose n'abari inyuma cyane kubera ukuntu yubatse, ni inzu ifite intebe z'umukara ndetse n'utuntu tumeze nk'ameza tw'umutuku kuri utwo tumeza kandi hakaba hari indangururamajwi ku buryo umuntu wese ushaka gutanga igitekerezo yagitanga.

Icyumba cyo kwa muganga aho abarwayi barwarira, harimo ibikoresho bigenda bipima umutima, umuvuduko n'ibindi bitandukanye, ibitanda byiteguye kwakira abarwayi ndetse hari amamashini agenda areba aho ubuzima bugeze cyangwa se buhagaze bwa buri murwayi, ni ahantu hasirimutse cyane.

Igikorwa cyo guta amaraso kiri kubera ahangaha ni ubushake gikorwa n'ubyifuza, uwifuza gutanga amaraso aragenda bakamusuzuma bakareba nimba nta kibazo mu mubiri we afite hanyuma bakamuteru urushinge bakamukuramo amaraso. Aya maraso rero afatwa neza hanyuma akazajya gusuzumwa bakareba ko nta ndwara zindi zirimo ubundi bakayahereza abarwayi bayakeneye.

Umugore cyangwa umukobwa yambaye umwenda w'akazi w'ubuganga, arimo arasuzuma umwana muto w'umunyeshuri, yambaye agapfukamunwa ndetse n'amaherena y'umuhondo, iruhande rwe hari agakarito gatwara ibikoresho byi'ibanze by'ubuvuzi, inyuma yabo kandi hari akabati karimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga.

Umusore ari mu myitozo afite ibikoresho bitandukanye. Yambaye agapira k'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara irimo uturongo tw'umutuku, inkweto z'umweru ndetse n'amasogisi y'umukara. Inzu arimo gukoreramo iyi myitozo ngororamubiri, irimo ibindi bikoresho nk'imipira n'imashini zifasha umuntu gukora imyitozo.

Umukobwa mwiza, uteye neza, ahagaze ahirengeye, yazamuye amaboko. Ari ahantu ku ruzi, hafite amahumbezi. Yambaye akantu gato cyane, hejuru k'umweru ndetse n'agapantaro kamufashe k'umukara. Ari kwitegereza ibyiza Imana yaremye.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ushushanyijeho ibintu by'umutuku. Ari mu myitozo ngororamubiri. Inkweto yambaye zisa umukara. Munsi y'ikirenge cy'izo nkweto hashushanyijeho agashusho gatangaje, kagizwe n'utudomo n'uturongo duhuje utudomo, yicaye hasi ari kurambura umugongo.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, harimo itabuririya y'umweru, afashe ku itako ry'undi muntu uryamye ku gatanda. Arimo aramukandakanda, kugira ngo agire ibyo amuvura.

Umukinnyi yari ari mu kibuga none agiriyemo ikibazo, avanywemo n'ababishinzwe bashinzwe ubutabazi bw'ibanze mu kibuga, umukinnyi uvunitse yambaye nimero gatanu gatatu zeru kabiri, byanditse ku gashati cyangwa se ku gasengeri yambaye k'umutuku, abashinzwe umutekano na bo bafite imyambaro ibaranga.

Umuhungu cyangwa se umusore, ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye inkweto z'imyitozo, ikabutura y'umukara, ndetse n'agapira k'umukara, ahagaze nk'uri kwiruka, ahagaze ku kintu kimeze nk'ikimeza cy'umukara, ari mu nzu, hanze hari imodoka ndetse hateye indabo.

Imbuto n'imboga bitandukanye harimo pome, amacunga urusenda, avoka ndetse iruhande hari icupa ry'amazi bigaragara ko ibi bigiye gukorwamo ji cyangwa se urundi ruvangavange hanyuma bigashyirwa muri iri cupa.

Umugabo uryamye hasi wambaye umupira w'umweru amasogisi y'umweru ndetse n'ikabutura, ni umwirabura arimo arafashshwa n'umugabo w'umuzungu wambaye isaha ku kaboko ndetse n'impeta, bari mu nzu mo indani uko ari babiri, iyo nzu kandi irimo ibikoresho bitandukanye nk'isabune, amafoto amanitse mu nzu, amapubeli n'ibindi. Amarido y'inzu ararangaye ndetse hanze hari igiti.

Mu kibuga ahakinirwa umupira w'amaguru, harimo abakinnyi bambaye, imyenda y'umuhondo, ndetse n'abambaye icyatsi n'ubururu. Bari barimo bakina none umwe muri bo, yagize ikibazo. Aryamye hasi arimo aritabwaho n'abashizwe ubutabazi bw'ibanze. Hari kandi umuntu ufata videwo z'uko biri kugenda mu kibuga.

Umugabo wambaye ipantaro ijya gusa umweru, agapira kajya gusa umukara karimo uturongo tw'umweru yambaye n'isaha ku kaboko, arimo arafasha umuntu wavunitse, uwo muntu yambaye inkweto z'umweru, yicaye ku gatanda gasa ubururu, iruhande rwe hari umukasi ndetse n'impapuro z'isuku.

Iyo urimo gutondeka ibintu mu gikapu ubitondeka ku buryo nta na kimwe kibangara ikindi, imiti itondetse mu gikapu amacupa ari ukwayo, udukarito turi ukwatwo mbese bitondetse neza ku buryo nta na kimwe cyangiriza ikindi, buri cyose kiri mu mwanya wacyo; ni igikapu cy'umutuku gifite imishumi y'umukara.

Umukobwa muto aricaye ari mu myitozo ngororamubiri. Yambaye agasenge kenda kuba umutuku n'agakabutura kajya gusa ubururu, karimo uturongogo tw'umweru. Arambuye amaguru yombi, ndetse amaboko ye ayafatishije ku maguru, ari kunanura umugongo. Ni umukobwa w'umwirabura, utabyibushye.

Hari ibyumba byo kwa muganga, usanga bifite ibikoresho bigizwe na tekinoroji yo hejuru cyane, harimo amatara amurika neza cyane, harimo amamashini akora imirimo itandukanye, ndetse n'ibindi, aba ari inzu itangaje kubera ko iba ikorerwamo ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru.

Umusore mwiza ari ahantu wenyine arimo gukora imyitozo ngororamubiri. Yambaye inkweto, amasogisi, agapira ndetse n'agakabutura gatoya kamufashe. Kamwegereye. Akaboko ke k'ibumoso karambitse hasi ku isima, akaguru ke k'iburyo kari imbere karinganiye n'akaboko k'ibumoso, hanyuma akaguru k'ibumoso ko kari inyuma.

Umugabo cyangwa umusore mwiza wakoze umubiri, wambaye umupira w'ubururu, umufasha ariko utamwegereye cyane, ndetse n'umuringa mu ijosi, ari kunywa amazi. Afite ubwanwa, ndetse n'inyogosho nziza itangaje y'abasore. Uyu mugabo kandi ni umwirabura.

Umugore wambaye impeta ku kiganza, wambaye n'umukufe mu ijosi, yambaye agashati keza k'abagore yifashe ku nkokora bisa naho yakomeretse, afite agatambaro mu ntoki ari kwikandisha kugira ngo amaraso ataza gutunguka inyuma akamwanduza cyangwa se akanduza ibyo begeranye.

Iyo umaze iminsi waravunitse, iyo umuganga amaze ku kuvura agutegeka kujya ukora imyitozo, mu byo agutegeka hari ukwitoza guhagarara, kwitoza kugenda, mbese kugutoza gukoresha umubiri wawe mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo ibice byawe by'umubiri byari byaravunitse byongere bikore neza.

Umugabo arimo gutozwa gukina umupira, umugabo uri gutozwa yambaye inkweto zifunze, ikabutura y'umukara, umupira w'umutuku w'amaboko magufi, ndetse n'isaaha ku kaboko, uri kumutoza yambaye ipantaro, inkweto zifunguye inyuma, ndetse n'umupira w'umukara, ari kumubarira iminota ndetse na we afite umupira mu ntoki.

Hari imikino myinshi igenda iva mu bihugu by'abazungu ikagera muri Afurika bikarangira yinjiye no mu Rwanda, twavugamo nko gukirana, iteramakofe n'indi mikino myinshi igenda itandukanye, abantu rero barayikunda ndetse bakayigana, bagatozwa bakajya bayikina.

Umukobwa wari mu myitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kunywa. Yambaye agasengeri, nyuma yo gukora imyitozo myinshi, umuntu aba agomba kunywa amazi, kugira ngo imbaraga yatakaje zigaruke, kandi umubiri we, ureke kumarara.

Icyapa kiriho amabwiriza se inama wakurikiza uri mu myitozo ngororamubiri, hariho kwamamazwa imikino itandukanye nk'umupira w'amaguru, imyitozo yo kwirambura, imikino yo gukirana n'indi mikino itandukanye, icyapa kirabisobanura neza cyane.

Hari ikigo cyihariye gishinzwe gufasha abifuza gutanga amaraso, amaraso atangwa n'ubyifuza, agasuzumwa indwara zaba ziyarimo, basanga ntakibazo kiyarimo, akajya gufashishwa abantu kwa muganga.

Umugabo cyangwa se umusore avuye muri siporo, yicaye hasi ari kuruhuka ari kunywa amazi. Afite telefone mu ntoki, yambaye isaha ku kaboko ndetse amazi ari kunywa ni ayo mu icupa. Ni umugabo cyangwa se umusore ufite imisatsi y'umukara ndetse n'ubwanwa, ari kumva n'umuziki muri telefone.

Amategeko y'uburyo bwo kwirinda icyorezo, ni icyapa kigaragaza uburyo umuntu agomba kwitwara kugira ngo yirinde kwanduza cyangwase kwandura icyorezo, harimo gukaraba intoki, harimo gupfuka ku mazuru igihe witsamura, harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ukihanagura, ndetse n'ibindi.

Abantu babiri bari mu myitozo, none umwe agize ikibazo arimo arafashwa na mugenzi we, bose bambaye udupira tw'umukara n'udukabutura tw'umukara ndetse n'inkweto zo gukorana imyitozo, uri gufashwa yicaye ku gatanda, uri kumufasha ari kumuzirika akaguru kugira ngo gakomere, amaze kumusiga amavuta, we yicaye ku gatebe ko hasi karebana n'igitanda.

Umusaza wambaye agapira k'umukara, yazingiye igitambaro cy'umuhondo ku kiganza cye cy'ibumoso, hanyuma afatisha cyangwa se akuruza ikiganza cye cy'iburyo. Ari gufashwa n'umuganga kugira ngo arambure amaboko ye yari yaravunitse. Arimo kuyatoza kongera gukora bisanzwe.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yicaye asobekeranyije amaguru, imbere ye hari icupa ry'amazi yo kunywa, yicaye yihengetse akaboko ke k'iburyo gafashe hasi ak'ibumoso gafashe ku mutwe we, noneho umutwe yawujyanye awerekeza kuri ka kaboko gafashe hasi.

Umusore cyangwa se umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira mutoya w'ubururu, ndetse n'agakabutura k'umukara, n'inkweto zo gukorana imyitozo, arimo araterura ibyuma, arimo arafashwa kandi n'umugabo ukora mu nzu y'imyitozo ngororamubiri.

Abantu babiri umugore n'umugabo b'abazungu, bateranye imigongo bari kunywa amazi bakoresheje uducupa, buri wese ari kureba hejuru, bafite uducupa tw'ubururu, ikigaragara umugabo ni muremure kuruta umugore.

Umugore cyangwa se umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari intebe z'umweru, arimo arakorera imyitozo mu ruganiriro aho yarambitse umukeka hasi ashyiraho imashini ye kugira ngo ijye imwerekera ibyo akora, ari kureba videwo ku rubuga akagenda yigana ibyo bari gukora, iruhande rwe hari amazi n'utundi dukoresho tumufasha mu myitozo ye.

Ibitaro bya gisirikare mu Rwanda bivurirwamo abasirikare. Nubwo atari abasirikare gusa bivurizamo, hari serivisi nyinshi zitangwa ku basirikare ugereranyije n'abandi bantu b'abaturage badafite abanyamuryango babo mu gisirikare cy'Igihugu.

Umuntu w'umusore ufite ibisuko ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ibikomo byinshi bya plastic ku maboko, yambaye agakabutura ndetse imbere yako gakabutura arimo kora y'umukara. Yambaye kandi n'agapira k'umukara ari mu nzu y'imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bitandukanye harimo n'imipira yo gukina.

Umuntu ari gusuka amazi mu kirahure, amazi ni meza mu mubiri w'umuntu kubera ko atuma igogora ry'ibiryo ryoroha, atuma inyota umuntu yari afite ishira ndetse atuma habaho icyo twakwita iringaniza ry'amasukari cyangwa se ry'ibinyesukari mu mubiri w'umuntu.

Umusore mwiza uvuye kugorora umubiri cyangwa se kurambura umubiri wambaye agakoti, ufite ingofero mu mutwe, wambaye akabutura k'umukara, iruhande rwe hariho igikapu. Uyu musore afite icupa ririmo amazi ari kunywa, yicaye hasi ari kuruhuka.

Umusore cyangwa umugabo wambaye agapira k'umweru gafite ikora ndetse n'ipantaro y'ikobo y'ubururu afite agatambaro ku kaboko k'iburyo, aho agafatishije akaboko k'ibumoso, asa n'uwakomeretse akaba afatiyeho ako gatambaro kugira ngo amaraso ataza gukwira hasi cyangwa se kugira ngo amaraso avure.

Icyuma kireba ibyihishe umuganga adashobora kubonesha ijisho, cyangwa se undi muntu wese adashobora kubona. Iki cyuma ukiryamaho, hanyuma ukinjiramo, imbere hariyo umwanya winjiramo, hanyuma gifite ubushobozi bwo kureba iby'imbere imbere mu mubiri w'umuntu. Ubwo rero gitanga amakuru y'uko gisanze mu mubiri hameze. Gifite na kamera gihita gifata amafoto.

Iyo abanyeshuri bari kwimenyereza umwuga, babahereza ibisa n'ibyo bakoramo, akaba ari byo bakoreraho amasomo yabo, nk'ubu ngubu urugero, iyo uri umuganga wiga kuvura, baguhereza igipupe, akaba ari cyo wigiraho, ukagikorera buri kimwe cyose wagombye gukorera umurwayi.

Ni ngombwa gukora imyitozo ngororamubiri ariko nanone ukibuka gufata amafunguro. Indyo yuzuye umuntu aba agomba gufata haba harimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, n'ibiririnda indwara ari byo imbuto n'imboga. Imyitozo itandukanye iyo umaze kuyikora usabwa gufata amafunguro yuzuye.

Mu gihe muntu ari gukora imyitozo ngororamubiri ashobora guhura n'impanuka. Ubu bwoko rero ni imiti cyangwa se amavuta, n'ibindi bikoresho wakwifashisha mu gihe uri guhereza ubutabazi bw'ibanze. Umuntu uhuye n'impanuka ari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri hari amavuta wamumasisha, hari ibipfuko wamupfukisha agize igisebe, ndetse hari na ga zo kwambara mu gihe uri kumufasha.

Iji yamaronji, tangawizi, biri mu gakombe dukunda kwita itasi, ni utuntu duteguye neza cyane rwose, duteye amatsiko kuturya kugira ngo umuntu yumve uko tumeze.

Imiti itandukanye iri mu dukoresho dutandukanye tunyuranye, harimo uducupa ndetse n'udukarito. Harimo umuti uri mu gakarito k'icyatsi, inyuma hariho amasura yo kwamamaza. Undi muti uri mu gacupa karekare, usa umuhondo, ufungishije agafuniko k'umweru. Umuti nanone wundi uri mu gacupa k'ubururu kagufi, ufungishije agafuniko k'umutuku.

Mu Rwanda cyangwa se muri Afurika naho hateye imbere. Hagenda haduka inganda nyinshi zikora ibikoresho bitandukanye. Hari izikora ibikoresho by'ubwiza nk'amavuta, amasabune, ndetse n'imibavu. Buri ruganda ruba rufite ibyo rukora bitewe n'ibikoresho rufite.

Mu byiza Imana yaremye harimo n'ibimera. Mu byatsi bimera ku isi rero harimo ibiribwa n'amatungo, ibikoreshwa nk'imiti, ndetse n'uturabo two gutaka ahantu.

Imiti itandukanye irimo uducupa dutandukanye. Itondetse mu tubati harimo iy'umutuku, harimo iy'umuhondo, harimo iy'umukara, harimo iy'umweru, harimo iy'icyatsi ndetse ubwoko butandukanye bw'ibiti bwose burahari.

Mu byatsi bimera ku Isi harimo ibiba bicukitse. Turabizi ko impamvu byitwa iryo zina ni ukubera ko bifite ibara ry'icyatsi. Ibimera rero byose mu butaka bifite ibara ry'icyatsi, bifite ubuzima, bikura byitwa ibyatsi.

Ibikoresho by'ubwiza birakunzwe kandi biragurwa cyane ku isoko, buri ruganda usanga rufite umwihariko warwo, hari ibikora amasabune, ndetse n'amavuta y'igikarubamba hari n'izindi nganda zikoresha ibyatsi bitandukanye, bitewe n'umwihariko rushaka kugira.

Imiti gakondo iba iri mu macupa atandukanye, hari iba imeze nk'amazi, hari iba ari amavuta yo gusuka ku biryo, hari iba ari mu bwoko bw'agafu n'ibindi, uragenda ukegera umuganga wo uri gucuruza iyo miti, akagufasha bitewe n'icyo urwaye.

Imiti iri mu ducupa dutandukanye ndetse utwo ducupa twose tukaba turi mu kabati, hariho uducupa dufungishije imifuniko y'umutuku ndetse utundi dufungishije imifuniko y'umweru, imiti iri muri aya macupa ni imiti y'ibyatsi.

Igikakarubamba ni icyatsi, kimera ku butaka, kigira amazi afashe kandi iki cyatsi kigira amahwa, Abanyarwanda rero bizera ko kivamo imiti itandukanye, ivura indwara zitandukanye, bagikoresha mu gukora imiti gakondo.

Amavuta akozwe mu macunga, ari mu icupa ry'umweru ndetse akaba apfundikije umufuniko w'umweru, byose birambitse ku isahani, amavuta yanditseho mu rurimi rw'Icyongereza ijambo rivuga ngo: Ubuziraherezo, ndetse n'ijambo rivuga ngo: Amavuta yizewe.

Amavuta cyangwa se ibindi bikoresho by'ubwiza, bikorwa n'inganda zitandukanye ndetse bigakorwa n'ibintu bitandukanye, ushobora gusanga uruganda rumwe rukora amavuta yo mu mbuto, urundi rugakora ayo mu bikakarubamba, buri ruganda ruba rufite umwihariko ndetse aya mavuta abikwa mu bikoresho bitandukanye.

Mu Rwanda, hari gahunda yo gutema igiti kimwe ugatera bibiri, leta rero igenda yegereza abaturage ibiti n'uburyo bwo kubibona mu buryo bworoshye, hari icyo bita ingemwe, aho itaka rishyirwa mu dushashi, hagashyirwamo urubuto ruzavamo igiti, noneho igiti kikamera kikazimurirwa mu butaka bunini.

Imiti gakondo Abanyarwanda bakoresha, iba iri mu bwoko butandukanye, hari iyo bahekenya ndetse hari n'isekurwa hakanyobwa amazi yayo gusa, hari itangwa nk'icyayi ndetse hari itangwa nk'utwatsi bavungurira mu biryo.

Amavuta y'uruganda rumwe ariko akaba atandukanye, hari ay'umweru ndetse hari n'ay'umuhondo, yose ni amavuta y'igikakarubamba, ukiza kuyagura uhita umenya ayo ushaka bitewe n'ayo wisiga kubera ko, inyuma ku gacupa biba byanditse ugahita wibwira ayo ukeneye, bitewe n'ayo usanzwe ukoresha.

Icyatsi cy'Ikinyarwanda cyitwa umuravumba, ni icyatsi gikoreshwa nk'umuti uvura ibintu bitandukanye nk'inkorora, ibicurane, angine n'izindi ndwara zitandukanye. Abanyarwanda bizera ko iki cyatsi gifite ubudahangarwa n'ubushobozi bwo kuvura urusobe rw'indwara.

Abanyarwanda bakoresha ibyatsi bitandukanye, bizera ko byabakiza indwara batagombereye kujya kwa muganga, muri iyo miti ikoreshwa, harimo umuravumba, harimo ibikakarubamba, harimo n'indi miti myinshi nk'inyabarasanya n'utundi twatsi twinshi bizera ko dufite ubushobozi bwo kuvura.

Hari indwara zimwe na zimwe zigenda zinanirana kwa muganga, bagutegeka rero kugana abavuzi gakondo, bakaguhereza imiti ya kinyarwanda igufasha kwivura cyangwa kwirinda, mu kwishyura ukoresha telefone cyangwa se ugakoresha amafaranga ufite mu ntoki, umugore cyangwa umugabo ashobora gucuruza iyi miti.

Amakuru ari guca kuri televiziyo, aravuga ku buryo bwo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, amakuru ari gusemurwa n'umugabo, aho ari kugenda asobanurira abafite ubumuga bwo kutumva, ibirimo kuvugwa.

Amazi atemba ava mu musozi abantu benshi baza gusura, abakerarugendo batandukanye bafite ibikapu mu mugongo baje kureba aya mazi aturuka imusozi, bari kunyura mu nzira irimo amabuye, ndetse ni hagati y'imisozi ibiri, umusozi w'iburyo n'umusozi w'ibumoso, noneho ayo mazi akajya amanuka yikubita hasi hagati y'iyo misozi.

Amavuta yo kwisiga y'uruganda rumwe, akozwe mu gikakarubamba ariko hiyongeramo izindi ntungamubiri zitandukanye, amavuta y'umweru ni amavuta arimo igikakarubamba ndetse n'umwembe, ni amavuta agiye atandukanye iyo usomye ku kirango cy'ayo mavuta uhita wibwira ibigize ayo mavuta.

Ikiyiko gikoreshwa mu bintu byinshi, hari ukurya, hari ugupima ingano y'umuti ugomba gufata n'ibindi, nko mu miti ya kinyarwanda, umuganga agutegeka gufata byibuze utuyiko tubiri tw'umuti, rero aka ni kamwe mu kamaro k'ikiyiko.

Amavuta yo gusiga ku ruhu, ari mu gacupa k'umukara ndetse akaba afungishije agafuniko k'umukara, ubireba wese ahita abyibwira bitewe n'uko ibisobanuro by'ayo mavuta cyangwase ikiri muri ako gacupa gihita kigaragaza biba byanditseho inyuma.

Ibikoresho gakondo bitandukanye biri hamwe, harimo udutebe twa Kinyarwanda bita udusongabugari, harimo uducuma, harimo utubindi, harimo inkoko n'utundi dukoresho twinshi turunze hamwe, wagira ngo ni mu kazu k'umupfumu.

Imiti gakondo ni imiti y'ibyatsi, abanyarwanda bizera ko ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye, igihingwa cya mbere kizerwaho ubudahangarwa n'ubuvuzi bukomeye, ni umuravumba, ari wo uri mu mazi umuntu agiye kunywa kugira ngo yivure, bayashyira mu mazi bagashyira mu gikombe, noneho umuntu akanywa amazi agakira.

Amavuta yo kwisiga ari mu gacupa k'umweru apfundiki agfuniko k'umweru, amavuta yanditseho izina ry'ukuntu yitwa ndetse afite akarongo k'icyatsi k'umutako gatatse iryo cupa. Afite udutako twinshi tugiye dutandukanye hariho akanyugunyugu, amavuta arambitse ahantu.